Abantu bambaye amajiri agendanye no gutanga amaraso mu buvuzi kugira ngo arokore abantu benshi, bari hafi y'ahantu habereye isoko ndetse kandi bagiye kurebayo umuntu washobora gutanga amaraso.

Abantu b'abanyacyubahiro, umugore uri imbere yabo ndetse hakaba harimo n'abagabo kandi harimo n'abasirikare b'abanyacyubahiro bashinzwe iby'umutekano, bambaye impuzankano z'abasirikari, bari mu gikorwa cy'ubutabazi bw'ibanze bukorerwa kwa muganga.

Abantu babagabo bashinzwe gutanga amaraso, mugihe cyo gutabara indembe zikeneye amaraso. Bambaye amajire y'umutuku kandi, begeranye n'abana benshi.

Ahatangirwa ubuvuzi haba hari ibitanda biryamwaho n'abantu barwaye, cyane cyane ku muntu uzamara igihe kirekire. Ni icyumba cyiza gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo igitanda cyiza ndetse kikaba gifite amapine.

Abantu benshi biganjemo abagabo, abagore bakuze. Bazanye amatungo kugira ayo matungo y'ihene abashe gufata ubuvuzi kandi abashe gushyirwa mu buryo bwiza, atazagira indwara azifata.

Umuganga uri gupima umurwayi, yumva ko yaba afite ikibazo ndetse yamupfutse no ku kaboko, inyuma ye ndetse no ku ruhande rwe, hari abari kumwitegereza.

Imodoka y'ambiransi itwara indembe ndetse igatwara n'abarwayi bajya kwa muganga, itwawe n'umuntu wipfutse w'umuganga bishoboka ko hari ikirwara cyadutse.

Imodoka nini yanditseho Ambilanse, ni imodoka itanga ubuvuzi ku bantu bagize ibibazo ikabatwara, cyane cyane nk'abagore bagiye kubyara cyangwa se abavunitse.

Umuganga uri gufasha umwana amuha ikinini ndetse umwana yafashwe na nyina, hari bandi bagore ndetse bazanye abana kugira ngo babashe kuba bafashwa na muganga.

Imbaga y'abantu benshi higanjemo urubyiruko rw'abasore, inkumi cyangwa se abantu bakuru, bakaba bambaye impuzankano ndetse kandi bakaba bafite ibintu bashinzwe mu bigendanye n'ubuganga. Bakaba bafite ikintu kimeze nk'icyapa, cyanditseho uburyo bw'ibisubizo bigendanye na Marburg.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga gitangirwamo serivisi zo kwa muganga hakaba harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa mu buvuzi, harimo ndetse n'ibitanda umurwayi ashobora kuba aryamyeho igihe ari kwitabwaho n'umuganga.

Abantu benshi harimo abagabo abagore, bakaba bambaye impuzankano z'akazi kandi bakaba bafite aho bahuriye no gutanga amaraso, ni abaganga babishinzwe.

Imbaga y'abantu benshi bateraniye ahantu hamwe ndetse bafite n'amatungo ihene ndetse harimo n'ufite igare. Bahajyanye ihene kugira ngo zibashe gufashwa ko bazagira ubuzima bwiza baziteraho amaherena, banazikuraho kugira ngo bazishyireho n'ibimenyetso.

Umugore uri kwa muganga akaba yabyaye umwana aramuteruye, ndetse yicaye ku gitanda cyo ku ivuriro kifashishwa mu kuryamashaho umuntu uri mu bitaro.

Umuganga uri imbere y'ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa. Yicaye iruhande rw'umubyeyi ufite umwana ushobora kuba yaje kuvuza umwana. Ari kumubaza ibyo arwaye undi na we akandika kuri mudasobwa kugira ngo aze kuba yafashwa.

Abafite aho bahuriye n'ubuvuzi bwo kwa muganga bahagaze hafi y'ibitanda biryamyeho abantu, ndetse hakaba harimo n'abicaye kuri ibyo bitanda byo kwa muganga bari kubabwira ibigendanye n'uko bakwivuza bakivuza bakabaho.

Abaganga bambaye impuzankano bari mu cyumba cy'ubuvuzi, bamwe bari kuvura ndetse abandi bari kwegeranya imiti kugira ngo bajye kuvura, ndetse kandi hari n'abari mu bikoresho bigendanye n'ubuvuzi kugira ngo bize kubafasha.

Abantu benshi bicaye ku ntebe ku ivuriro bafite impapuro bicaye mu buryo bw'imirongo uko baje kwivuza higanjemo ababyeyi abagabo n'abana batoya.

Umuntu w'umusore wagize ikibazo mu kuboko akajyanwa kwa muganga, bari kumufasha kuvurwa bamukanda ndetse banamupfuka aho yagize ikibazo. Ari kubikorerwa n'umuganga kandi inyuma ye hari abasore bandi bari kumwitegereza.

Urubyiruko ndetse n'abantu bakuru. Biganjemo abahungu ndetse n'abakobwa, harimo kandi n'abambaye impuzankano nk'amataburiya kandi bakaba biga ibigendanye n'ubuvuzi.

Imbaga y'abantu bahagaze ku murongo. harimo abasore, abakobwa ndetse kandi n'abagabo. Kandi bahagaze bari kwifotoza nk'ifoto y'urwibutso kuko ari abaganga bari bateraniye hamwe.

Abantu bane harimo n'umuzungu ndetse kandi bakaba ari abaganga bari kuganira ku bigendanye n'ubuvuzi kandi harimo umusore umwe wambaye itaburiya, uri kubasobanurira ibigendanye n'ubuvuzi buri aho ngaho n'abarwayi.

Ivuriro ririmo abarwayi baryamye ndetse kandi harimo n'abarwaza bari kubarwaza. Bararyamye ku bitanda bigezweho kandi hejuru yabo hari inzitiramibu zizinze, bazimanura igihe baryamye ari nijoro kugira ngo imibu itabatera.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho, abaganga bakunze gukoresha mu buvuzi, harimo umuganga uri gushyira hamwe ibikoresho kandi ni icyumba kirimo ibintu byinshi, yaba amadokima, imyenda, ameza, intebe, ibitanda n'ibindi.

Abagabo bambaye neza basa neza b'abaganga bambaye amataburiya atandukanye abambayey'umweru n'abambaye ubururu ariko harimo n'abandi batayambaye bakaba bari kwifotozanya amaseretefika bahawe.

Imbaga y'abantu bicaye hamwe, bari gukubita agapira ni abafite ibibazo by'ubumuga ndetse kandi kuko imbere yaho hari utugare ndetse n'imbago bifashisha mu kugenda.

Imodoka itwara abarwayi bo kwa muganga. Ndetse ikaba yitwa ambirasi iruhande rwayo hahagaze abagabo ndetse n'umukobwa bigaragara ko ari abaganga.

Abantu baryamye ku gitada kwa muganga bategereje umuvuzi ngo bavurwe, harimo abamazemo igihe kuko baje kera biragaragara kandi bararyamye, bahawe ibitaro bari kwivuza mu buryo butandukanye.

Abaganga benshi bambaye impuzankano z'akazi ariko bakaba bari mu bigendanye no kwandika. Bari mu nama igendanye n'imivurire ndetse no gutanga serivisi z'ababagana.

Abantu benshi biganjemo abagore, abagabo ndetse n'urubyiruko. Bicaye ku ivuriro bategereje ko bahabwa ubuvuzi. Kandi ririmo utwana dutoya baje kuvuza.

Umuganga uri gufasha umurwayi, kumujobororamo ijisho, ari kumufasha yambaye imyenda y'akazi, yambaye itaburiya ndetse n'ingofero mu mutwe, ari gukoresha icyuma cyabugenewe.

Ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi hicaye abantu benshi baje guhaka serivisi ndetse kandi higanjemo abagore bakuze n'abagabo kandi imbere yabo hari umuganga uri kureba umuntu ufite ikibazo cyo mu jisho.

Abantu bari mucyumba kimwe bambaye udupfukamunwa ndetse ku ruhande rwabo hari ababyeyi bateruye abana, aba nabo bari mu bigendanye no kuvura kuko n'abaganga bakora ibigendanye n'ubuzima

Umuganga uri mu ivuriro, akaba ari kuvura. Afite ibikoresho by'ikoranabuhanga, ari kwifashisha ndetse kandi yambaye imyenda yabugenewe mu kazi. Ari mu cyumba cyanabugenewe.

Imodoka itwara abarwayi ikaba iparitse ku ivuriro rya Nyagatare ndetse ni ivuriro ryiza ryubatse mu buryo bwiza bugezweho, ndetse kandi hari ibigega bitarika amazi.

Abantu benshi harimo abakuze, harimo n'abato. Harimo kandi abitwikiriye imitaka, bahetse abana batoya. Bavuye ku bitaro, bajya ahantu gushyingura.

Umuganga ufite urushinge ndetse akaba yambaye itaburiya y'umweru, na ga ku kuboko z'umweru, akaba ari kuvanga umuti ashyira mu shinge, kugira ngo ajye kuvura yari ari muri laboratware.

Uwagiye kwa muganga ari gutanga akaboko ngo bamupime sida, bari gukoresha agatoki gatoya niko bari guteraho urushinge biri gukorwa na muganga wabugenewe wambaye ibikoresho byabugenewe mu ntoki.

Umuntu wambaye amaga mu ntoki akaba ari muri raboratwari yo kwa muganga ari gusuzuma ndetse anareba neza uburwayi bw'umuntu ndetse kandi hari ibikoresho ari kwifashisha.

Umuganga uri kurebera kuri mikorosikope ndetse ikaba iri muri laboratwari ari kureba ibintu bigiye bitandukanye bitera uburwayi, ni utuntu tuba tutagaragara agakoresha mikorosikopi.

Irinde malariya ukoresha inzitiramibu ikoranye umuti buri gihe ugiye kuryama, ukuraho ibihuru hafi y'urugo, usiba ibinogo bishobora kurekamo amazi, unafunga amadirishya y'inzu hakiri kare.

Umugore mwiza, wambaye neza, agapira keza ndetse ufite umusatsi ukiri mutoya kandi afite mikorofone, ari kuvuga, ibigendanye n'iby'umugore ndetse n'umwana, ari kuvuga ku bigendanye n'ubuzima bw'umubyeyi.

Abana bakiri batoya, bari kubafasha kunywa amata, amata ari mu gikoresho cyakoreshwaga kera ndetse kandi bari kubifashwamo n'umukobwa, bicaye ku mukeka abo bana.

Umugabo ndetse n'umugore bicaye ku ntebe, bari kwigishwa ibyiza by'imibanire n'umuntu ushinzwe imibanire mu mudugudu batuyemo. Ni umugore wambaye itaburiya y'akazi, akaba ari umujyanama w'akazi.

Umuntu uri guterwa urushinge, ari gusuzumwa kugira ngo arebe ko hari indwara yaba yaranduye, ari kubikorerwa n'umuganga, wambaye aga mu ntoki ndetse n'ibifite ibikoresho bindi bitandukanye, akoresha mu buvuzi.

Abana batoya bari kugaburirwa ibiryo ni abana biga mu mashuri y'ikiburamwaka ndetse kandi bakaba bafite ibibazo by'imibereho, bari kugaburirwa kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kigira icyumweru cyahariwe ubuzima, bw'umubyeyi n'umwana. Iki kiba kigamije gufata neza ubuzima bw'umwana n'umubyeyi, kandi kugira ngo cyubahirize ibyiza by'umwana.

Abana batoya bari kugaburirwa igikoma, ni abana bakiri batoya biga mu kiburamwaka, bakiri bato cyane kandi bari kwigishwa n'umwigishwa wabo kunywa igikoma.

Abana bakiri batoya bari kumwe n'umwarimu wabo uri gusekana nabo. Abana bari kurya basangira ndetse kandi baruriwe ku meza ndetse baranicaye.

Umwana uteruwe n'umubyeyi, umubyeyi amaze kwibaruka ni ku gitanda bari niho bicaye muganga amaze kumubyaza, kandi umugore yambaye umwambaro aba yambaye iyo amaze kubyara cyangwa se ari kwa muganga.

Umuganga wambaye itaburiya ndetse kandi akaba afite amakaramu atatu ku mufuka w'itaburiya. Ari kumwe n'umubyeyi uri kumutekereza ibibazo by'ubuzima afite.

Abagabo batanu, barishimye bari gukoma amashyi ndetse kandi bambaye nk'abagabo koko bafite ibyishimo birenze, bari gufashwa ku kigendanye n'ubuzima bwabo.

Abanyeshuri benshi bahagaze mu ntebe bicaraho, bakaba bahagurutse bambaye impuzankano z'ishuri imipira isa n'icyatsi kibisi. Ikigo cy'Igihugu gishinzwe uburezi cyaje kubaganiza ku bijyanye n'ubuzima bwabo.

Abagabo bakomeye ndetse harimo n'umupolisi wambaye impuzankano bicaye ku ntebe nziza z'imisego kandi bari kwiga ku bigendanye n'ubuzima bw'umuntu ndetse n'uburyo bakomeza kuba bamufasha.

Abagabo ndetse n'umugore bahagaze imbere, bari kuganiriza abantu bitabiriye ibigendanye n'ubuzima bw'umuntu ndetse bafite icyapa cyanditseho amagambo, abanzirizwa na babyeyi, bayobozi namwe bantu, rubyiruko n'ibindi.

Abantu benshi bicaye mu ihema, harimo abana, abakuru ndetse bicaye, bari kwigishwa ku bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe kandi n'abahura n'ibibazo bigendanye n'ubuzima. Bari mu ihema, aho ngaho.

Imfungwa n'abagororwa ndetse kandi bari kumwe n'abayobozi babarinda, bafite icyapa cyanditseho umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe, kuko ni bamwe baba bafite ubuzima batarabashije kwiyakira muri iyo icyo gihe bafunzwe.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru ndetse akaba acuruza faromasi icuruza imiti itandukanye, ari gucagura imiti imwe ayishyira ku ruhande n'indi ayishyira ku ruhande kugira ngo icuruzwe imeze neza.

Iduka ricuruza imiti, ni ivuriro rituruka kuri Nyagatare kandi hariho icyapa kigaragaza nimero, ukwiye guhamagara, igihe wabuze umuntu ucuruza kuri iryo duka.

Agahanda keza k'amabuye kandi kakaba kari hafi y'inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ikaba icuruza iduka ritanga imiti ituruka ku baganga kandi ni abaganga bafasha abarwayi.

Icyapa cyanditseho farumasi, ndetse kikaba ari icyapa kigaragaza ko hafi aho hari iduka ricuruza imiti ndetse ikaba ari imiti ituruka kwa muganga kugirango ifashe abarwayi.

Abagabo bane bari mu iduka ricuruza imiti ifite aho ihuriye n'ubuvuzi ndetse kandi harimo abambaye amataburiya y'amakaki, umwe yambaye umupira utukura, bose bari muri iryo duka ricuruza ibintu bigendanye n'imiti.

Iduka ricuruza imiti itandukanye rikaba ari farumasi, harimo imiti iri mu dukombe, mu ducupa, mu dukarito ndetse no mu tundi, hakaba harimo ibivura indwara zitandukanye.

Iduka ricuruza ibigendanye n'imiti igiye itandukanye, yaba ari imiti iri mu dukombe ipfundikiye ndetse n'indi miti iri mu dukarito kandi ikaba ivura indwara.

Utujerekani twinshi duteretse ahantu hamwe tukaba turi mu ifarumasi. Turimo imiti yo kuvura ndetse kandi turimo imiti ishobora kuba yavura umuntu agakira.

Umukobwa ukiri mutoya wambaye imyenda kandi akaba ari kwifotoreza mu cyumba kibitsemo imiti. Ni icyumba gicuruza kandi kikanafasha abantu bafite ibibazo by'uburwayi.

Abantu benshi bahuriye mu cyumba kimwe ndetse higanjemo urubyiruko rw'abakobwa n'abasore bari kwigira hamwe ku bigendanye n'ubuzima rusange n'uburyo bwatera imbere ndetse kandi n'ibindi byiza bishamikiyeho.

Abantu benshi cyane buzuye umuhanda, bari kugenda mu muhanda, bari kumwe n'abashinzwe umutekano, nk'aba dasso, abapolisi n'abandi, bakaba bafite icyapa cyanditseho ngo ukwezi kwahariwe ibikorwa bya Polisi.

Abantu baje kuvoma amazi meza, ni abantu bagiye batandukanye harimo abana n'abagore bakuru kandi bazanye amajerikani menshi kugira ngo babashe kuba bagira amazi meza bajya ahantu kuri robine.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe ndetse kandi hari n'abanyamakuru, hari n'abakorerabushake bambaye imyenda y'amajire ndetse kandi bari kwigishwa kubigendanye n'ubuzima bwabo.

Urubyiruko rw'abasore ndetse n'umukobwa umwe, bakaba bari kwifotoza, bambaye imyambaro y'umweru, isa neza. Yanditseho inyuma, ururimi rw'Icyongereza ruvuga ngo ubuzima bumwe.

Abantu benshi harimo abicaye ndetse n'abahagaze abahagaze bambaye amataburiya y'ubururu naho abicaye bambaye imipira n'ingofero. Ingofero zisa n'umukara imipi isa n'itukura.

Imiti bafata bagasekura ituruka mu byatsi cyangwa se indabo kugira ngo ibashe kuba yavura umuntu wese urwaye, ni imiti isanza igasekurwa igashyirwa no mu mazi.

Igihingwa cyazamutse cya kimeza kimeze nk'ururabo, gifite ubwiza bushashagirana. Gifite indabo nziza, kikagira ibibabi byiza, giteye hafi n'igipangu kiri aho ngaho mu rugo.

Imbaga y'abantu benshi yiganjemo urubyiruko rw'abasore n'abakobwa ndetse kandi bakaba ari abantu benshi bari imbere bifotoreza imbere y'ivuriro ndetse kikaba n'ikigo nderabuzima, gikorerwamo serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako yubatse ndetse ikorerwamo serivisi z'ubuvuzi. Ni ikigonderabuzima ndetse cyubakishije amabati y'ubururu, giteye kandi n'irangi ry'ubururu. Gifite icyapa cy'umugore n'umwana n'umugabo.

Umugore mwiza w'inzobe wambaye itaburiya y'akazi ndetse n'ikarita, akaba yambaye n'ibikoresho bikoreshwa kwa muganga, afite igikoresho cy'urushinge agiye gutera umuntu.

Abagore abagabo ndetse n'ababyeyi bafite abana bakiri batoya baje gufata serivisi z'ubuvuzi ku kigo nderabuzima kibegereye. Ni inyubako izwi cyane cyane kuba ibifite amabati y'ubururu ndetse ikaba ifite n'ibara ry'ubururu ku ruhande.

Inzu ifite amabati y'ubururu ukagira n'irangi ry'ubururu, izwiho gutanga serivisi z'ubuvuzi cyane cyane ko hari ikigo nderabuzima kiba ahantu hafi aho kiba cyegereye abaturage bagafata ubuvuzi.

Imbaga y'urujya n'uruza rw'abantu, umwe ari kumwe n'umuganga, ari kumureba amupima umuriro kugira ngo arebe ko afite ikibazo cy'uburwayi ndetse kandi ku ruhande rwe, hari umupolisi wambaye impuzankano z'abapolisi.

Inyubako y'ikigo nderabuzima, ifite amabati y'ubururu ndetse ikaba iteye n'irangi ry'ubururu, akenshi itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ndetse ku bantu bari hafi aho, bakajyayo bagafata iyo serivisi.

Inzu igaragaza gira ubuzima ni ivuriro rinini ritangwamo serivisi ku bantu barituriye hafi, bakaba babasha gukira indwara bafite. Ni inzu yubatse mu buryo bw'ubururu n'ibara kandi ikaba ifite n'amabati y'ubururu.

Ikigo nderabuzima gifite hagati y'ubururu ndetse giteye n'irangi ry'ubururu, hari abantu bahagaze ndetse kandi imbere yaho hariho icyapa kimenyesha kinaranga ko aho hantu hari ivuriro.

Umubyeyi uteruye umwana ndetse n'umuganga wambaye impuzankano z'akazi akaba ari kumva ko umutima w'umwana utera cyane kandi ku meza hari n'izi makayi ari kwandikamo.

Ababyeyi bateruye abana bakaba bari kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi. Baje kuvuza abana ndetse abaganga bari kubakira babakirina ubwuzu.

Abanyacyubahiro bari gutaha baturutse mu ivuriro, harimo umugore umwe ndetse n'abagabo bane bambaye neza basa neza bavuye mu nzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi izwi nk'ikigo nderabuzima cyangwa santere de sante.